Ikigo cy'amashuri abanza ndetse n'ayincuke; ku gikuta cyaho gisize irangi ry'umweru, hariho igishushanyo cy'itoroshi rigaragaza ko riri kwaka riri gutanga urumuri.

Kandagira ukarabe iri ku bigo by'amashuri ikaba iyo umwana uje kwiga afite agakapu wambaye ikanzu y'icyatsi n'udukweto tw'umukara ari koga amazi meza ndetse n'isabune mbere y'uko yinjira mu ishuri.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha abana ba pirimeri, ndetse n'abiga mu myaka y incuke, bikaba byanditse ku rupapuro rw'umweru ruciyemo uturongo tw'umukara dutambitse, hakaba harimo ingombajwi ndetse n'inyajwi.

Ishuri rigaragara nk'aho rishaje ryigiramo abana b'incuke, ririho irangi ry'umweru ndetse rikaba rishushanyijeho ifi ndetse n'inkoko, abanyeshuri bigiraho kugira ngo babashe kubona ibice bigize ayo matungo.

Ishuri ryiza ry'abana biga mu mashuri abanza, risize irangi ry'umweru, rishushanyijeho ibishushanyo nk'igare ndetse n'ifi, hanze hari jaride irimo ibyatsi biringaniye ndetse n'ibyuma bifashe amabati.

Ikigo cy'amashuri, incuke kikaba gishushanyijeho abana bigaragara ko bari kujya kwiga bambaye inifomo z'ubururu ndetse n'isuka. Ibingibi bifasha abanyeshuri kwiga ndetse no kumenya ibice bigize ibikoresho bikoreshwa mu ngo.

Ishusho nziza irimo indabyo, ikaba irimo n'udukinisho tw'abana turi mu ibara ry'umuhondo, oranje ndetse hakaba hashinzemo n'utwuma tw'udaparasikike bikaba bifasha abana gushira irungu.

Ikigo cy'amashuri abanza hari abana bahari mu busitani bwaho bari kwahakinira bambaye amakote ndetse n'amapantaro y'ubururu, ayo mashuri inzugi zabo zisize irangi ry'ubururu.

Ikibumbano kimeze nk'ingwe kikaba kiri mu mabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umukara, kikaba gihagaze ku mapine ane y'ibizeru wagira ngo abumbye muri sima.

Inkuru zishushanyije zikaba ari zimwe ,mu zikoreshwa mu kwigisha abana ndetse no kubamenyereza gusoma, ibingibi biba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kugira ngo abana bazakure bazi gusoma.

Inzu nziza cyane irimo isaha imanitse ku gikuta ndetse na kalendari, hakaba harimo ababyeyi bateruye abana babo bafite ibitabo biri ku meza, bakaba bari kubasobanurira ndetse imbere yabo hakaba hariho n'ikaramu.

Umurima munini wubatseho inzu ndende iri hagati y'ibiti bya avoka ndetse n'imyembe ikaba isize irangi ry'umweru, idirishya ryayo rikaba ryaravuyemo bivuze ko ari umuyaga warikuyemo.

Igiti kiriho ikibabi cy'icyatsi hakaba hahagazeho agasimba bita igitambara, kakaba kaguruka gafite amaguru ariho amahwa ndetse kakaba gafite n'uduhembe ku mutwe.

Ku kigo cy'amashuri abanza hari umwana uri kumwe n'abandi batatu ,akaba afite ikayi ndetse n'ikaramu, ari gusobanurira bagenzi be ibyo bize ndetse n'umukoro mwarimu wabo yabahaye.

Inzu nziza yubatse ahantu kuri sima yamanyaguritse, hakaba hashushanyijeho indobo, umweyo ndetse n'umwana wambaye ikabutura uri mu ibara ry'ubururu.

Ku kigo cy'amashuri gishyashya cyegereye Umudugudu. Hariyo abanyeshuri bari gukora siporo ndetse n'utundi twana turi kubigana, gusa bari kubabwira ko siporo ari ubuzima kandi irinda indwara nyinshi.

Ishuri ryiza ririmo umwarimu w'umudamu wambaye itabuliya y'umweru, ndetse hakaba hariho n'ikibaho cy'umukara, ari imbere y'abanyeshuri bari kwiga, ari kubabaza ibibazo ndetse anabasobanurira.

Inzira ijya ku ishuri risize irangi ry'igitaka, imbere yaho hakaba hari ubusitani burimo indabyo ndetse na pasiparumu, hakaba hari ibiti inyuma y'iyo nzu birebire biyisumba.

Abanyeshuri biga imibare kuva mu mwaka ubanza kugera mu mashuri yisumbuye, bakaba bahawe ibikoresho birimo Matimatikale bikubiyemo ibikoresho by'amalati, kompa, amakereyo ndetse n'uducongesho.

Ishuri ryubatse mu buryo bw'igorofa igereretse kabiri, ifite porotayi ndetse ikaba ifite inzugi z'umweru isize irangi ry'umweru ku mpande ndetse n'amabati y'ubururu akomeye.

Abarimu bazanye ibikoresho bazajya bakoresha mu gihe bazajya baba bari kwigisha imibare kugira ngo, borohereze abanyeshuri kubyumva. Harimo amarate, amakereyo ndetse n'utundi dukoresho bakoresha baca imirongo.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri makuru n' abanza mu kwiga imibare urugero; ikerereyo, irate, kompa, agacongesho ndetse n'agahanaguzo bikaba biri ku rupapuro rw'umweru.

Umwarimu wigisha imibare mu mashuri makuru ya kaminuza akaba ari mbere ku kibaho, aho ahagaze ari kubaza abanyeshuri, harimo abamanitse amaboko bashaka kumusubiza ndetse hari n'abandi bamuteze amatwi.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bambaye amashati y'imyeru ni'pantaro z'ubururu, bari muri sare irimo ameza menshi ndetse n'intebe bakaba bari kuhategura nk'aho hagiye kubera ikirori.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'abana babo, bicaye bari kumva ibyo bari kuganira ndetse bari no kubagira inama y'imyitwarire bazajya bagira mu gihe bari ku ishuri.

Ibikoresho bikoreshwa ku kigo bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo bazamure uburezi ndetse n'ireme ry'abana kugira ngo bazagere mu mashuri makuru babasha gukora ibintu ndetse no kwihangira umurimo.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu myaka y'amashuri yisumbuye biga imibare harimo; gome, ikereyo, kompa ndetse n'amarati. Ibi bikoreshwa bari guca imirongo.

Inzu nini iherereye ku Karere ikaba iriho icyapa kiriho amabara menshi, ubururu, umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho nimero za telefone zanditseho ku buryo uwabashaka yazibahamagararaho.

Ibikoresho bikoreshwa n'abagoronome bari guhinga; agapfukamunwa ndetse na ga na bote, bibarinda ingaruka bagirarira mu kazi kabo biri imbere ku rupapuro rw'umweru.

Abana biga mu mashuri abanza bakaba bari kwigishwa kwandika ku kibaho ndetse no kwimenyereza gufata ingwa mu gihe bagiye gusubiza, abarimu bavuga ko iyo umwana amenye gufata ingwa no gusubiza bimworohera.

Ishuri rinini ryiza ryigiramo abana biga kudoda ndetse n'abandi biga guteka rikaba risize irange ry'umuhondo, inzugi zaho ziriho nimero kandi zikaba zisize irange ry'umutuku.

Ishuri ryubakishijwe amabati, y'imyeru ndetse rikaba rifite inzugi z'ubururu, bwererutse, ku mpande hakaba hariho irangi ry'umukara ndetse n'urutsinga rujyana umuriro muri iryo shuri, ku ruhande hariho impombo ijyana amazi mu kigega.

Igikoresho cyifashishwa mu kwiga imibare ndetse kiba kirimo ibindi bikoresho byinshi harimo amarati atatu ndetse n'irati imwe ndende n'ikaramu na kompa, ibigibi byahawe abanyeshuri biga mu myaka ya mbere n'iya kabiri kugira ngo bajye babyifashisha bari kwiga imibare.

Urupapuro rushushanyijeho rw'umweru, rukaba ruciyemo ibice bitatu, agace ka mbere gashushanyijemowo isuka, aka kabiri gashushanyijemo umushyo, ndetse aka gatatu gashushanyijemo agakombe k'umuhondo.

Uru mu rugomero rw'amazi akwirakwizwa mu ngo z'abaturage ndetse no hirya no hino mu duce tw'igihugu, hari ibigega bibiri kimwe cyubakiye hasi ikindi kiribakiye hejuru ku byuma, ikindi kirimo impombo.

ibiti by'imyembe bikiri bitoya ariko biteye ahantu heza bisa neza cyane bigaragara ko byitaweho kandi bifite imikurire myiza ishimishije bisa n'ibizatanga umusaruro uhagije mu gihe kizaza

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri bibafasha kwiga mu ishuri neza hakaba harimo uducamirongo ndetse n'uduca ibiziga n'akandi gasanduku babishyiramo kugira ngo babone uko babitwara.

Ikibanza cyiza cyubatsweho amashuri mashyashya azajya agerwaho n'abanyeshuri baturiye muri ako gace, mu rwego rwo kunoza imyigire myiza, ndetse no kugabanya ingendo abana bakoraga bajya kwiga.

Amashuri yubatse ku murongo akaba asakajwe amabati y'imyeru, imbere yaho hari igiti kirekire kinini gifite amashami manini. Hasi yaho hari ikibuga abana bakoresha bakiniramo.

Ibikoresho bikoreshwa mu bigo by'amashuri abanza ndetse, nayincuke. Harimo amakereyo, ariyo amakaramu yo mu biti ndetse n'inyuguti zikoze mu mpapuro ziri mu mabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi, ndetse n'umukara.

Ishuri ryubatse ahantu heza cyane riri ryonyine, imbere yaho hakaba hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, rikaba rikikijwe n'ibiti ndetse n'imibyare, imbere y'iryo shuri hakaba hari ikigega gitanga amazi.

Abantu bari muri sale bakaba bambaye amajile y'umuhondo ndetse n'ayandi y'icyatsi, inyuma yabo hari isanduku, ndetse iyo nzu irimo amatara ari kwaka.

Ikigo cyiza giherereye mu nkengero z'umujyi gikikijwe n'amashyamba ndetse n'izindi ngo z'abaturage, hanze y'aho hari umunyeshuri wambaye agashati k'umweru ndetse na karuvati, akaba ahagaze kuri porutayi.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa tw'umweru ndetse n'amashati n'ingutiya n'amapantaro ya kaki, hakaba hahagazemo abarimu babiri: uwambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara, undi mugore akaba yambaye umupira w'umuhondo, bambaye ubupfukamunwa, bari kureba abanyeshuri uko bakora ibizami.

Ikigo cy'amashuri kiza cyambara neza, kiri hagati y'ibiti binini bikurura umuyaga ndetse bikazana n'umwuka mwiza mu kigo, kugira ngo abanyeshuri bahumeke neza. Hanze hahagaze abanyeshuri bambaye amajipo y'imikara ndetse na karuvati.

Abanyeshuri benshi bahagaze ku mirongo ihagaze, bakaba bambaye amashati y'umweru ndetse n'imihondo, amapantaro y'icyatsi, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire ndetse n'imibyare ihateye.

Ahantu hahinze ibiti byinshi cyane, hakaba hahagaze umudamu ufite mikoro wambaye linete ndetse n'ishati irimo uturongo tumanuye, inyuma ye hakaba hari umukobwa uhicaye uri kumwitegereza.

Abakobwa beza ndetse n'abahungu bari muri sare irimo ameza meza cyane ndetse n'intebe bakaba bafite komputa imbere yabo, bakaba bari kwiga ndetse banihugura uko ikoreshwa n'ibiyikorerwamo.

Abana bato biga mu mashuri y'inshuke, barangije amashuri yabo, bari kumwe n'ababyeyi babo, mu gihe bari bari guhabwa indangamanota, abana batojwe bagiye imbere baririyereka ndetse abazi kubyina barabyina, bashimisha abarezi ndetse n'ababyeyi babo.

Sare irimo abanyeshuri bicaye bambaye amashati y'imyeru ndetse n'imipira y'ubururu, hakaba hahagaze umuhungu umwe ufite mikoro uko bigaragara ari kubwira abantu ijambo cyangwa akaba ari igitekerezo ari gutanga.

Inzu nini irimo abantu bambaye, amajile ndetse n'ingofero z'imyeru n'imihondo. Hakaba harimo amatara ari kwaka hakaba harimo, ibisanduku binini biri mu mabara y'umweru ndetse, hakaba hari na mare.

Abanyeshuri bambaye imipira y'ubururu, amashati y'imweru ndetse n'imipira y'imihondo, bari ku murongo, bari kugenda bajya imbere bigaragara ko bagiye ahantu mu gikorwa kigiye kubahuriza n'abandi.

Ishuri ryiza ry'icyitegererezo ryubatse ahantu hitereye ku gasozi, rikikijwe n'ibiti birebire hino yaho hakaba hari ikigega kijyamo amazi ava kuri iryobati rishakaje iryo shuri.

Abanyeshuri bo muri kaminuza biga ikoranabuhanga bahuye n'umwarimu w'inzobere abigisha byinshi ku bijyanye na Kompiyuta abasobanurira uko ikora ndetse n'ibiyikorerwamo ndetse n'ibindi bikoresho twavuga nka telekomande zikoreshwa

Abanyeshuri biga mu myaka ya mbere n'iya kabiri muri Kaminuza bari kubahugura ukuntu bakoresha ibyuma bireba udusimba dutoya dutera ibibazo mu buzima bw'abantu ndetse n'amatungo.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru ndetse hasi hakaba hariho sima y'umutuku, ikaba irimo inzugi z'umweru ndetse na serire isize irangi ry'umutuku ifungishije neza ingufuri.

Inzu nini iriho urugi ruri mu ibara ry'icyatsi ryererutse, hakaba handitseho inyajwi ya k na h na o na rimwe, ikaba irimo ibirahure bigaragaza ko mo imbere harimo abantu bari kwiga.

Umuntu ushushanyije ku gikuta bigaragara ko ari umugabo ufite gitari, ari gucuranga kandi akaba yarashushanyijwe n'undi muntu ufite impano kandi wabyigiye.

Ishuri rya kaminuza ririmo ameza akomeye afashwe n'amaguru y'ibyuma ndetse n'intebe zegamirwa, hakaba harimo abanyeshuri bari kwandika bafite ikaramu ndetse n'amatelefone.

Sale nini iririmo ameza ndetse n'intebe zicayemo abantu bafite mashini abandi bafite amakaye, imbere yabo hagaze umugabo umwe uri kubabwira ibigiye gukurikiraho.

Ishuri ryigiraho abana b'inshuke, rikaba ryaguze ibikoresho bazajya bakoresha bari kwigisha abana amabara ndetse n'ibindi bikinisho bisabwa kugira ngo abana batarambirwa bagataha isaha zitageze.

Ibiti biteye mu busitani birinda izuba, abantu bakaba bashobora kukinga mu gihe cy'izuba, haruguru yaho hari inzu isize irangi ry'umweru, hino mu ndabyo harimo agasanduku bashyiramo imyanda.

Inzu isize irangi ry'umweru ikaba irimo urugi rusize irangi ry'icyatsi, hasi ni umukara hakaba hari sima ku gikuta hari agafungura amatara.

Ishuri ryiza riri kwigiramo abanyeshuri, hakaba harimo ameza abafasha kwandika ndetse n'intebe bicaraho, hakaba hariho n'amarido abakingira urumuri ruturuka hanze kugira ngo rutababangamira.

Jaride irimo indabyo ndetse n'imikindo, ikikijwe n'amabara y'umweru n'umukara, hakaba hasutswemo itaka hirya harimo ibyatsi biteyemo ndetse hakaba harimo n'ikirango k'icyo kigo.

AAbanyeshuri ba kaminuza barangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye, bakaba bishimiye ibyo bagezeho bambaye ingofero ndetse n'amakanzu yabigenewe bakaba bari muri stade bari kubyina.

Inzu yubakishijwe amakaro ikaba irimo urugi rufisize ibara ry'isicyatsi, hanze hakaba hari agatuwarete k'abana karimo ibara ry'ubururu, hirya yako hakaba hateretse agakombe k'umutuku.

Urugi rubengerana rusize irangi ry'umuhondo, hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umukara, hakaba harimo abantu mo imbere, bigaragara ko bicaye ku meza, bakaba bari kwiga, bamwe bafite amakaramu.

Akayira karimo umugabo wambaye inkweto y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari gusohoka yerekeza ku muryango imbere ye hari umukobwa ugeze hanze, hepfo yabo hari inzu zihubatse ndetse n'ibiti bihateye.